Amazi ateraniye ahantu hamwe arimo ibyatsi byagiye bimeramo ndetse harimo n'umwana waje kuvoma afite ikivomesho, amazi ari ahantu mu mugezi, amazi atari meza bigaragara ko umwana yaje kuyavoma ngo bayakoreshe.

Ivomo rusange ririho umwana waje kuvoma avomesha indobo ndetse ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye. Ivomo rifite amarobine abiri bigaragara ko ari iry'abaturage bavomaho mu gace runaka batuyemo murakoze.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi ndetse afite n'umwana mutoya, bigaragara ko arimo yaje kuvuza umwana. Muganga ari kwita ku mwana kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, doreko kwita ku mwana ari inshingo ari inshingano ya buri muturarwanda wese.

Umukobwa imbere ye hari uburoso, amacupa arimo imiti ishobora kuba ikoreshwa mu menyo ndetse afite n'uburoso arimo gukora isuku y'amenyo, bigaragara ko ari gukora isuku y'amenyo kandi isuku y'amenyo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Inzu y'ubuvuzi bigaragara ko ari aho abantu baje kwivuza bategereza guhura n'ababafasha, harimo intebe bicaraho iyo bategereje ndetse hakaba hariho n'izindi ntebe z'abantu baba bari kubaganiriza nk'abakasitoma keya, bababwira kwihangana.

Umuntu uri muri siporo arambura imitsi y'amaguru iy'amaboko arambura umugongo ndetse no mu ntege n'amavi akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bugende neza, dore ko siporo ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Ikarito cyangwa ishashi irimo umuti, imiti ya gakondo baba barakuye mu byatsi cyangwa se mu bintu by'ibiribw, bakayicisha mu ruganda, bakaza kuyikoresha yaraciye mu ruganda, ibintu bijyanye n'inyunganiramirire.